Urusengero rwubatse ku buryo bugezweho, rwubakishije amatafari ahiye, rusakaje amabati atukura, rusize amarangi Y'umuhondo nay'umweru, inyuma ya rwo hubatse indi nzu y'ubwiherero ikikijwe n'ibyatsi.